Umubyeyi wese ukunda umwana we agomba kumugurira udukinisho tujyiye dutandukanye kugira ngo umwana ajye akinana natwo kandi yumve ko akunzwe n'abo babyeyi be batumuguriye.

Nubona ibikoresho byose by'umwana agomba kujyana ku ishuri ryabonetse, ujye umwihutana ku ishuri yihahira ubumenyi kubera y'uko ubumenyi butangwa ku bwinshi kandi bugatangirwa ubuntu.

Shushanyiriza kenshi umwana udushushanyo kugira ngo ayo masomo yumve neza kuko abana bakunda inkuru zishushanyije, kuruta ibindi ibyo ari byo byose kuko aribwo babifata vuba.

Ni byiza kandi birashimishije kuba serivisi itangwa ahantu ishushanyije ku nkuta kugira ngo buri wese naza ahite amenya igikorerwa aho hantu bitamusabye kuba yabaririza.

Abana batoya tuge tubafata ukuboko tubajyane mu ishuri kuko ishuri ari ryo terambere ry'umwana ahazaza he, ari byo biba bizamutunga mu buzima buri imbere.

Igihe cyose abana badakina birangira batishimye kandi ugasanga badasabana, ariko binyuze mu mikino buri mwana akunda mugenzi we kandi bigiramo ibintu byinshi.

Igihe abana bacu babonye amanota meza tujye tubakorera akantu ku buryo kazabashimisha bigatuma bahora biga neza kugira ngo babone amanota bazasubireyo nko kubatembereza ahantu abana bakinira.

Mu igihe cya coronavirusi cyane cyane hakunze kugaragara kandagiraukarabe ahantu hose kubera ko nta serivisi wabaga wahabwa utabanje gukaraba intoki bityo bikaba byaramaze no kuba umuco mu banyarwanda.

Kurira umwana udupupe byakundaga gufatwa nk'aho ari ubukire bityo ngo kubera ko ari iby'abakire ngo bifite aho byemewe gusa ariko ubu buri wese abyemerewe kandi kubikoresha ni ingenzi ku mwana we.

Igihe cyose ushaka ko umwana wawe akurana ubwenge, ujye umutoza buri kintu cyose akiri muto, niba ushaka ko umwana amenya gusoma bimutoze akiri mutoya.

Si byiza ko abanyeshuri bakinira mu muhanda kubera ko haba hanyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye bishobora kuba byabagonga. Ugasanga biteje ibibazo ababyeyi babo cyangwa se abarezi babo ibibazo batari biteze.

Abanyeshuri b'abana bagomba kugurirwa udukapu two kujyana ku ishuri kugira ngo babikemo ibikoresho byabo neza kuko byagaragaye ko abana batoya bakunda kwibwa ibyo bikoresho, bagataha ntabyo bafite kandi babijyanye.

Abanyeshuri batoya iyo ubitayeho ukabigisha bakiri bato, bakurana ubwenge maze ubwo bwenge bukazabakuza kugera bageze no mu mashuri yisumbuye kubera ko umwana burya apfa mu iterura.

Ni byiza ko ibikoresho birangaza abana cyangwa bibigisha, tugomba kuba tubifite haba mu mashuri, haba mu ngo zacu kugira ngo aba bana babyigireho byinshi.

Ibigo by'amashuri bigomba kuba bifite ibibuga abanyeshuri bidagaduriraho, igihe bamaze kunanirwa mu mutwe, hakaba hashyirwaho isaha yo kuruhuka bakajya gukina.

Nufata ibikuta ukabishushanyaho ibishushanyo bitandukanye ahantu higa abanyeshuri, uzaba uborohereje kuba babifata vuba mu gihe gito kuko uko bagenda babibonesha amaso yabo niko bisigara mu mutwe wabo.

Kugurira abana utumodoka ntukumve ko ari amafaranga uba utakaje, ahubwo ibi bituma bakura mu mitekerereze ndetse bagatekereza byagutse ibintu byazabagirira akamaro mu buzima bwabo buri imbere.

Ikoranabuhanga ryamaze kugera kuri bose, ubu n'abana bo mushuri y'inshuke basigaye baritozwa kandi bakaba bamenya kurikoresha bakiri abana batoya, bityo bikazabafasha mu masomo yabo.

Iyo umwana umuretse agakinira mu bikoresho byabugenewe, kuba yakigiramo bishobora gutuma ibyo yize abifata, nyamara iyo umwigishije mu bundi buryo ashobora kudafata na kimwe.

Bimwe mu bikoresho birimo nka za kadahumeka bishobora kujyanwa mu murima bikarinda inyoni kuba zakona cyangwa bigafashishwa bakinisha abana bato.

Ita ku bikoresho ugurira umwana mutoya igihe agiye ku ishuri kuko bizatuma amenya ubwenge kandi yite ku masomo yiga igihe cyose afite ibikoresho byose nkenerwa bizamufasha mu myigire.

Ni byiza ko dushushanya ku nkuta z'ahantu dukorera ndetse n'ibyo tuhakorera, niba ari ubwubatsi bikagaragazwa n'amashusho arimo nko kuba hari ingorofani ndetse n'ibindi bikoresho bikagenda uko.

Mubyeyi ndetse nawe murezi ujye umenya ko kugurira umwana agakapu kuko ajyanamo amakayi ari ingenzi, kubera ko utakamuguriye ibikoresho bye abita mu nzira ntamenye aho yabitaye.

Igihe ahantu tutahakurikiranye ngo tube twahatera indabo cyangwa ubusitani ,hagomba kujya huzura amazi igihe haguye imvura, maze bigatuma hanyerera ndetse hagateza n'ibindi byago.

Ababyeyi nabo twabegereranya n'abarezi, rero ntibakajye bafata gahunda zose ngo baziharire abarimu ku mashuri, ahubwo nabo bajye bakurikirana abana babo bo mu rugo babe babasha kubigisha.

Leta y'u rwanda imaze kubona ko abana bagwingira cyane, yashyizeho uburyo bwiza bwo kwegereza abaturage mu mudugudu utuzu two gukoreramo ibyo byose kugira ngo bajyanemo abana babarere aho babaha indyo yuzuye.

Kimwe mu bintu biranga ko ahantu ugeze ari ku ishuri, ni uko usanga idarapo ndetse n'ibindi bishushanyo bigaragaza ko aho hantu higirwa n'amashuri n'ibindi bijyiye bitandukanye.

Ku bigo by'amashuri hafi ya byose, usanga hashushanyijeho ikarita y'Igihugu cy'u Rwanda ndetse byaba byiza ku ruhande rwayo, hakaba hashushanyijeho n'indi y'Afurika kugira ngo abana bajye babyigiramo.

Amashuri akunda gushushanya ibishushanyo biba byiza kuko iyo umuntu ari gukinira iruhande rwacyo, hari byinshi akigiraho kandi ni byinshi amenya kubera ko akibona buri munsi.

Umwana wese wiga mu amashuri y'inshuke, tujye tumukurikirana igihe avuye ku ishuri dukurikirane niba ibyo yize yabifashe ndetse ni biba byiza tumusubiriremo kugira ngo abyumve neza, azasubire ku ishuri akibyibuka.

Iyo ugeze mu ishuri ry'abana batoya, usanga hari ahantu cyangwa icyumba babikamo ibitabo by'abana birimo udukuru tugiye dutandukanye, bityo umwarimu akajya abikoresha abasomera izo nkuru kandi bakazifata.

Mbere yuko umuntu yiga umuziki ndetse akaba yanamenya gucuranga agomba kuba azi buri nyuguti uko isomwa kugira ngo abashe kuba yabishyira mu bikorwa kuko ubimenye nta kabuza n'umuziki arawumenya.

Iyo wigishije abana ukoresheje amashusho ashushanyijeho abandi bana batoya, nko kuba waha umwana ifoto agasobanurira abandi icyo ari kuyibonaho ,bituma bumva neza kandi bagafata vuba.

Mbere y'uko ahantu hakorerwa inama hagomba kubanza gutunganywa neza, bityo hakaba hari isuku kugira ngo abaribuze kuhakorera iyo nama, babe babona hakeye kandi buri wese aze kwisanga yisanzure.

Umwarimu wese ugiye kwigisha abanyeshuri, agomba gutegura isomo rye neza kubera ko biragoye kuba wajya kwigisha utateguye, bityo ngo wizere ko ibyo wigisha uri bubishobore kandi ukabikora neza.

Udukoresho abana bakoresha biga tugomba kubikwa ahantu heza ku buryo ari nta muntu ushobora kuba yaza akabyangiriza kugira ngo bikomeze bifashe abo bana mu masomo yabo.

Ibigo byo mu mujyi cyanecyane iby'amashuri abanza usanga bifite inyubako zigerekanyije, ariko iyo ugeze mu byaro usanga ari amashuri asanzwe ku buryo uhita ubona ko ari mu byaro.

Mu bigo by'amashuri hakunze kuba haterwa ibiti bitanga umuyaga ku banyeshuri bityo abanyeshuri bananiwe bakaba bajya munsi yabyo bagafata uwo muyaga kugira ngo bongere bamere neza.

Ahantu hose tugeze si byiza ko twangiza ibikoresho tuhasanze kubera ko biba byarahashyizwe kugira ngo byigishe abantu kandi icyo byahashyiriwe gikorwe neza ari ntawe cyangije.

Abana batoya bakunda kwiga ahubwo ni uko tutamenya uburyo bwiza bwo kubigishamo, nko kubigisha imibare, ushushanya, ubereka utunyamanswa, bishobora gutuma babyumva.

Si byiza ko ikigo cy'amashuri kiba kiri ahantu hadateye ubusitani kuko ubusitani bufasha abana cyane, bityo rero iyo budahari hari ikiba kitagenda neza nko mu mihumekere yabo.

Iyo abanyeshuri bari kwigishwa imibare bagomba gushushanyirizwa inziga, zigaragaza abakunda ikintu runaka ndetse n'abakunda ibyo bintu byombi, bakagaragazwa bashyirwamo hagati.

Ni byiza ko isuku iranga ibigo by'amashuri cyane cyane ibyigaho abana bato, kuko batagize isuku bashobora kurwaragurika ndetse baka bafatwa n'ibindi byorezo bitandukanye.

Ibigo byigisha imyuga tujye dushishikariza abantu kubyitabira, kubera yuko si twese tuzabona akazi ka leta. Ahubwo tugomba kwihangira n'imyuga kugira ngo tuzabone amafaranga mu mugihe kizaza tudategereje leta.

Si kenshi uzasanga idarapo ry'igihugu ryavogerewe n'uwo ariwe wese kubera yuko iyo rigize ikibazo ako gace kose ntabwo babona amahoro kuko ni umutungo w'igihugu ukomeye cyane.

Buri gikoresho cyose umwana yakenera ku ishuri agomba kukibona, kuko kwiga udafite ibikoresho byagaragaye ko ari bimwe mu bidindiza ubumenyi bw'abanyeshuri kandi bitari ngombwa.

Abayobozi b'amashuri bajye bakurikirana inyubako zabo uko zihagaze kubera ko usanga amashuri yarashaje, akaba yateza impanuka ku banyeshuri bayigiramo nyamara ibi byakagombye kwitabwaho kare.

Iyo uguriye umwana ibikoresho by'ishuri byose, buri kintu cyose akeneye akakibonera ku gihe, ntakabuza nawe amasomo ayatsinda neza bityo iyo abuze ibyo bikoresho bishobora kuba intandaro yo kuba yatsindwa.

Hagomba kuba ku ishuri hari ibitabo birimo inkuru z'abana, umwarimu akajya abasomera inkuru kuko uyo umwana umuso inkuru arayifata akayifata mu mutwe akajya kuyibwira iwabo.

Ikiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero si icyo kwitabirwa n'abana gusa, ahubwo n'abandi bashaka kujya bafata imyanzuro bakagira inama abana babo bagomba nabo kugikurikira.

Kera tukiri abana batoya wasangaga ababyeyi kutugurira ibikoresho by'amashuri bigorana cyane kubera ko byabaga bihenze cyane cyane nk'iseti.

Ni byiza ko twihatira gukora siporo mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo mpamvu buri mwaka gutangiza ibikorwa bya siporo biba mu mashuri kenshi ndetse hagategurwa imikino rusange ibigo bigakina.

Utugare tw'abana ndetse n'ibindi bikoresho byo kwicungaho, abana barabikunda cyane kuko bituma baruhuka mu mutwe bityo iyo babikoresheje bituma n'amasomo yabo agenda neza kuko baba baruhutse bihagije.

Kwigisha abana mara ukoresheje ibikinisho byagaragaye ko bituma abana babifata mu gihe cyoroshye kandi buri mwarimu agomba gushaka uburyo bwiza bwo kwigisha umwana ibintu akabyumva bitamugoye.

Hakundaga kubaho gahunda yo gutanga impano ku bayobozi b'ikigo, cyane cyane bakabaha za mudasobwa kubera ko bari bakeneye ko iterambere rigera ahantu hose mu bijyanye n'ikoranabuhanga.

Ku mashuri si byiza ko hagomba kuba hari umwanda kubera ko byahateza ibyorezo bigiye bitandukanye mu bana kandi iyo ibi byorezo bibagezeho ni ho hantu bifata umubare munini kandi bikabica mu buryo bworoshye.

Ku bigo by'amashuri cyane cyane aya y'inshuke hagomba kuba harimo ibyicungo kugira ngo abana nibajya mu karuhuko babe bajya kurya iminyenga kuko ibi na bo bituma batekereza neza.

Ibikoresho byose byabugenewe iyo bimaze gukusanywa, haba hatangira noneho kubikoresha nk'isomo kugira ngo byigishe abana batoya maze bagire ubumenyi bakura muri byo.

Nujya kwijyisha umwan muto ujye wibanda ku gukoresha inkuru zishushanyije kuko iyo icyintu ucyimubwiye acyireba bituma ajyifata mu mutwe nicyindi jyihe

uUdukoresho twose tugomba kuba dukenewe, cyane cyane abantu bakora umwuga w'ubudozi, akaba afite umukasi, indodo ndetse na metero kugirango ngo abe yapima umuntu mbere yuko amudodera imyambaro.

Abana tujya tubashishikariza kujya ku mashuri kuko nicyo gicumbi cy'ubumenyi. Aba babaye abaminisitiri nabo baba baratangiye ari abana nkabo kandi biga nkabo bakagera kuri uru rwego.

Abantu bakunze kwiga ubumenyi bw'isi n'amateka baba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bishushanyije nk'umubumbe w'isi maze bakabyigishirizwaho ibintu bigiye bitandukanye bakibonera ubumenyi.

Mu gihe k'imvura abana bagomba kugurirwa udukoti cyane cyane ab'abanyeshuri kuko baba bayigendamo badashobora gusiba cyane ishuri ngo ni uko haguye imvura, bityo bikabafasha kwirinda imbeho.

Umwarimu wese wigisha imibare ndetse n'ibindi bitandukanye, agomba kuba afite amarati yabugenewe maremare, akoreshwa ku rubaho kugira ngo acore neza ibintu bigaragara.

Ni kenshi uzasanga ku bigo by'amashuri bikunze kugira icyapa kiyobora abagenzi kigaragaza ko aho hantu hari ishuri kugira ngo uhageze wese abimenye ndetse n'ushaka kuzana umwana we azamenye aho giherereye.

Igihe cyose umwana abonye ibikoresho byose agomba kujyana ku ishuri, tugomba kumwohereza ku ishuri kandi tukanakurikirana niba yiga neza, cyane cyane yagarutse mu rugo tukareba ibyo bizeye, tukamubaza tukumva ko yabyumvise.

Umubyeyi ashishikarizwa kureba niba umwana yujuje ibikoresho byose mbere yuko ajya ku ishuri kubera yuko iyo umwana adafite ibikoresho usanga hari ibintu atiga ngo afate kubera ko bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Buri mwana wese ugeze mu mashuri makuru akenera ibikoresho mu mibare birimo seti, agomba kubigurirwa kubera ko bimufasha kuba yakiga neza ndetse agatsinda.

Iyo umunyeshuri afite ikaramu y'igiti, akaba afite agacongesho, akaba afite irati ndetse n'ikaye n'ikaramu bituma yiga neza imibare.

Nushaka ko umwana wawe yiga neza kandi agafata neza, uzamushakire ibikoresho by'amabarage agiye atandukanye ari byo bimufasha kuba yakwiga amasomo ye kuko abyumva vuba.

Igihe abana bacu bakoze amakosa ndetse kubakosora bikatunanira nk'ababyeyi, ni byiza ko tubajyana ku igororero ry'abana maze bakabakurikirana bakazagaruka barasubiye ku murongo.

Igihe dusoje amasomo yacu, cyangwa se turi mu karuhuko ni byiza ko, twigira ku bibuga by'umupira wa'maboko cyangwa w'amaguru, kugira ngo tubashe kwihera ijisho turuhure umutwe.

Nubona ikigo cy'amashuri cyigisha imyuga, uzajye ushishikariza abantu benshi kuba bakigana, kuko umwana wize imyuga akurana ubwenge kandi akazihangira imirimo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye ni ingenzi ku banyeshuri biga cyane cyane abana bato, bakenera ibitabo by'inkuru kugira ngo ngo bigishwe gusoma ndetse no kumva neza inkuru, ibi bituma ubwenge bwabo bukora neza.

Kompa, agacongesho, hamwe n'amarati ni ibikoresho bigaragaza ko umunyeshuri ugiye kwiga imibare, ari tayali kuba yabikoresha kandi akumva iryo somo.

Niba ahantu hakorerwa uburezi si byiza ko hubakwa ibibaho bitoya abana bandikaho barinze gupfukama ahubwo bakagiye babyigiza hejuru kugira ngo buri mwana abigereho.

Tujye twicaza abana ahantu hamwe, tubahe ibikinisho ariko twibanda cyane kubibigisha mu masomo agiye atandukanye. Kubera yuko ibi bibafasha mu mitekerereze, ndetse bakaba banakura mu buryo bwo gutekereza.

Ubundi iyo umwana ageze mu mwaka wa kane w'amashuri abanza agomba kugurirwa ibikoresho akoresha mu mibare harimo iseti ndetse n'ibindi bikoresho biba biyirimo kugira ngo yige neza.

Umubyeyi umaze gukura ni byiza ko buri nimugoroba yegeranye abana be akabacira imigani cyangwa se akababwira izindi nkuru kubera yuko abana bakunda inkuru, bigatuma babyigiramo ndetse na we akababaza amasomo bakuyemo.

Kwigisha imibare abana ukoresheje utuntu twanditseho iyo mibare, bishobora gutuma bayifata vuba kubera yuko umwana iyo yize muri ubu buryo biroroshye gufata ibintu kuruta uko wamwigisha umwandikira ku bintu bitari ibishushanyo.

Niba ugiye kwigisha abana batoya isomo rijyane n'amatungo yo murugo cyangwa ubwoko bw'inyamaswa ugomba kuya bashushanyiriza, niba ari inkoko, ifi, urukwavu, cyangwa se injangwe bikaba bigaragara ku mashusho kujyirango babifate.

Mbere y'uko abanyeshuri bajya mu mashuri hakunda kubaho igikorwa cyo gutonda imirongo bakagira ibyo baganirizwa biri bubafashe uwo munsi wose ubundi bakabona gusubira mu mashuri yabo bakiga.

Igihugu kimaze kubona ko kwegereza abanyeshuri ikoranabuhanga ari byiza, cyabishyizemo imbaraga kuko usanga ibigo by'amashuri byinshi, bifite mudasobwa abanyeshuri bakoresha biga bityo bagasohokana ubumenyi bw'ibanze bukenewe.

Igihe ikigo runaka cyabonye igihembo, bagomba guhabwa igikombe kigaragaza ko bakoze neza kugira ngo kibikwe abantu bajye bacyibukiraho ko hari ibintu bakoze neza.

Iyo ugeze ahantu habereye inama, usanga abantu bateze amatwi bumva neza ibyo babwirwa kubera ko biba ari ingenzi kuri bo, bityo rero abazi ubwenge bakunze kwitwaza n'utwo bandikaho.

Ibigo by'amashuri hagomba kuba hari ibigega bifata amazi kugira ngo amazi yo gukoropa atazajya aba ikibazo cyane, ahubwo ajye yivanirwa muri ibyo bigega kugira ngo akoreshwe mu mashuri.

Abayobozi ndetse n'abayoborwa bose bagomba kugira ibitekerezo byubaka, kandi bagatanga inama bo ubwabo bakajya banigenzura bakareba ko ibyo bavuze bishyirwa mu bikorwa.

Buri kigo cy'amashuri cyane cyane aya ya Leta, agomba kugira gahunda yo kuba bagira inama abanyeshuri, byibura kabiri mu cyumweru kugira ngo aba bana bitware neza, babigisha kuko ari urubyiruko.

Iyo umwarimu yatanze isuzumabumenyi mu ishuri abagira ngo arebe ko ibyo yigishije kuko abanyeshuri babifashe bityo niyo mpamvu yanga abantu bakomera kugira ngo bidatuma bagaragaza ubumenyi badafite.

Abanyeshuri bagomba kwicara hamwe, bakaba bafite ibikoresho byo kwandikaho kugira ngo ibyo babwiwe bahore babizirikana ndetse n'abayobozi bakurikirane niba barabishyize mu bikorwa, ibyo babwiye abo banyeshuri.

Iyo ugeze mu mukenke niho ukunda gusanga bwoko bw'izi nyamanswa, cyane cyane ukaba wazifatirana zigiye kunywa amazi, ukazireba kuko nta nubwo zijya ziryana cyangwa ngo ziteze ibindi bibazo ku muntu.

Abanyeshuri bose nibumve iyi inama, igihe umurezi ari mu ishuri arimo aradusobanurira si byiza ko twanga gutega amatwi ahubwo tujye twitonda twumve ibyo atubwira kuko bizatugirira akamaro.

Ukunze gusanga mu nzira abanyeshuri benshi cyane cyane iyo igihe cyo gufunga kwabo kigeze kuko usanga n'imodoka zabaye nkeya muri gare, kubera yuko ziba zoherejwe ku bigo kujya gufata abo banyeshuri ngo zibatashye.

Ahantu hari ibigo by'imyuga tugomba kumpamaza, tukahashishikariza n'abandi kugira ngo bahagere biyigire imyuga ku giciro kiboroheye, maze bazayikoreshe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Buri buyobozi bwose bugomba kujya kumvikanaho ibintu kimwe mbere yo kubikora bakagishashanya inama kuko nta mugabo wigira, buri wese akeneye ibitekerezo by'undi kugira ngo akomeze iterambere.

Abanyeshuri bagomba gufata iya mbere mu gukangurira abandi ibikorwa byiza by'ubutabazi, bagatanga amaraso kugira ngo abe yaramira abandi barwayi bayabuze.

Ikigo cyose cyigisha kigomba kuba gifite isomero ndetse n'ahantu ibitabo by'abanyeshuri n'abarimu bibikwa kugira ngo igihe gikenewe, kibe cyabonwa kandi ku igihe.

Mu bigo by'amashuri bitandukanye bikunze gushyiraho ibihembo ku banyeshuri babonye amanota meza. Nko kuba babaha amakaye, amakaramu, n'ibindi bikoresho umunyeshuri akenera mu buzima bwe bwo kwiga.

Mbere yuko abagenerwabikorwa n'ababibagenera batangira ibyo bikorwa nyir'izina, bagomba guhurira ahantu hamwe bakajya inama bakungurana ibitekerezo, ku byo bagiye gukora ubundi bakabishyira mu bikorwa.

Ibyicungo abana barabikenera cyane ku bigo by'amashuri byabo kubera yuko bituma baruhura mu mutwe, bakibagirwa umunaniro batejwe n'amasomo bityo bagasubira mu ishuri bamez neza.

Igihe umunyeshuri yabonye ibikoresho by'ibanze birimo amakaye, ikaramu, ntacyamubuza kuba yagana ishuri, cyane cyane ko abana muri iyi minsi bari guta amashuri bitwaje yuko, babuze ibikoresho by'ishuri.

umwarimu wese wigisha neza, agomba kujya afata abanyeshuri be akabajyana imbere ku kibaho bagasubiza ndetse bakanasobanurira bagenzi babo, batabyumvishe maze bakabyumva neza kuko bituma bigirira n'ikizere.

Ubundi ikoranabuhanga aho ryaziye, byatumye byorohereza abantu kuba bamenya amakuru, bityo umuntu ukoresheje mikoro akarangurura amajwi, maze n'abari kure bakaba babasha kumwumva mu buryo bworoshye.

Mu mashuri yisumbuye ni ho honyine usanga abanyeshuri baba bakurikiye cyane kandi bashyize umutima ku masomo yabo kuko baba barabaye bakuru bazi icyo gukora ndetse n'icyabazanye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga twashyikirijwe mu bigo by'amashuri, tujye tureka abanyeshuri babikoreshe kuko ni bo baba byarazaniwe ahanini, bityo n'ubwo bumenyi babutahane mu buzima bwabo bazajye babukoresha.

Buri mukozi wese ukorera leta cyane cyane mu bigo by'amashuri yisumbuye, agomba kuba yambaye impuzankano imugaragaza kugira ngo atandukane n'abandi, n'umubona amenye serivisi atanga.

Ubusitani nindabyo bigomba guterwa imbere y'ikigo cy'amashuri kugirango habe hari akayaga keza abana bahumeka igihe bagiye mu karuhuko gatoya maze bakagaruka mu ishuri ubwenge bwasubiye ku murongo.

Abantu bakoraga ubu bumbyi cyangwa se bakaba bakora mu bijyanye no kwandika amashusho yabantu, wasanga ga bafite ubujyeni buri hejuru kandi bakabikora kinyamwuga bakabona amafaranga.

Ukunda gusanga ahantu habereye ikirori cyo kurangiza amashuri kw'abanyeshuri bo muri kaminuza bakunze kwemererwa ko hinjira ababyeyi b'uwo munyeshuri gusa kugira ngo hirindwe kuba hari akavuyo kenshi.

Buri kaminuza yose igira irembo kandi siyo gusa n'ahandi hantu hose hakorerwa ibikorwa bitandukanye agomba kuba afite irembo winjiriraho bityo ukagira icyangombwa werekana kugira ngo wemererwe kujyamo.

Mu bikoresho bitandukanye birimo ibipima indwara, cyane cyane zimwe zitagaragarira amaso, bikunze kuba biri ahabugenewe cyane cyane ku bantu biga ubuganga, bakajya babikoresha.

Hari ibikoresho ubona ukabona biratangaje ubuze uko ubivuga, cyanecyane mu mashuri yiga imyuga kuko haba harimo utuntu twiza twinshi utahaga kureba n'amaso yawe y'uhigereye.

Hakundaga gufatwa ibumba bakaribumbamo ibintu bitandukanye ndetse ushinzwe kubibumba iyo abonye icyo kintu atari cyiza agikora mu bundi buryo kugira ngo kibe gifite ishusho nziza ikurura benshi.

Iyo ugeze muri Kaminuza y'u Rwanda ni ho hantu usanga abantu baho biga kandi bakiga bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga ariko mu yandi mashuri abanza n'ayisumbuye ntibiba byemewe.

Buri munyeshuri wese aho ava akagera, ni byiza ko agira umuco wo gusoma kuko buri kigo kiba gifite ibyumba byagenewemo ibitabo ndetse n'aho basomera kugira ngo umunyeshuri agende yifatire ubumenyi.

Muri kaminuza zigiye zitandukanye ndetse n'izigenga wasangaga zigira ubugeni nko kuba zabumba ibikoresho runaka bityo zikaba zabicuruza.

Kujya inama kw'abantu cyane cyane ab'abanyeshuri muri kaminuza, byagaragaye ko bituma hubaka ubumwe kandi bakaba bavumbura ikintu kiremereye cyane kuko bahurije hamwe ibitekerezo byabo.

Abanyarwanda ba kera bagiraga ibyumba babumbiragamo ,bityo abantu benshi bakajya baza gusura ibyo bibumbano byabo, ndetse ishusho yagihaye yabona atari nziza akaba yagisubiramo.

Ikintu cya mbere gitangaza iyo ugeze muri kaminuza, ni uko kubona ibikoresho bitandukanye n'iby'ahandi wari usanzwe ujya kubera yuko biba byihariye kandi biba bisa neza ku muntu uhageze bwa mbere.

Buri muntu wese umaze kwigirira ikizere, ashobora guhabwa indangururamajwi akagira icyo asangiza bagenzi be ariko utaritoje kuvugira imbere y'uruhame ibi ngibi ntibimushobokera.

Amashuri cyane cyane ku nkuta zayo, aya mashuri yigenga yaba bato b'inshuke agomba gushushanywaho ibishushanyo bikurura abana kandi babireba bakumva babikunze.

Buri mwaka Kaminuza y'u Rwanda, igira igikorwa cyo kwizihiza umunsi mukuru ku banyeshuri basoje amasomo , bityo rero uwo munsi urategurwa kandi igihe kinini, ubona ko abanyeshuri baba wishimiye iyo ugeze.

Ibikoresho gakondo cyane cyane ibyo babumbaga wasangaga abantu benshi baza kubisura ndetse bagatanga n'amafaranga bimwe na bimwe bikaba byanagurishwa maze bagasiga ayo mafaranga.

Twibuke kujyana ikayi n'ikaramu mu bikorwa byose tugiyemo cyanecyane nk'abanyeshuri kuko haba hari byinshi bivugirwamo kandi ibyo byose tuba dukeneye kubyandika kugira ngo tuzahore tubyibuka kuko inyandiko zihoraho.

Igihe ugiye mu mahugurwayo ari yo yose, ujye witwaza ikayi n'ikaramu kugira ngo ibyo bavuga bitagucika ubyandike witonze nugera iwawe ubisubiremo maze ubikurikize nk'uko wabibwiwe.

Ukinjira muri kaminuza y'u Rwanda, usanga ubusitani bwawo butandukanye n'ubwo ku bindi bigo ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru bagenderamo, tukaba dutunganije neza ku buryo nta gitaka ushobora kuhabona.

Abanyeshuri bamaze kwisobanukirwa iyo bageze muri kaminuza usanga bumvikana bagasobanurirana ku buryo batumva neza, bityo buri wese akaba yagira ubushobozi bwo kwiyumvira ikintu neza atarindiriye ko mwarimu akimubwira.

Kwandika kw'abanyeshuri bituma ibyo banditse batabyibagirwa kubera yuko inyandiko zitajya zisaza, bityo ikintu niyowagikenera imyaka runaka, uba uzongera ukakibona aho wacyanditse.

Iyo abanyeshuri bo muri kaminuza basoje amasomo bahabwa impamyabumenyi igaragaza ko ibyo bakoze babikoze neza kandi iki ni igikorwa gishimisha abanyeshuri cyane kuko hari intambwe imwe baba bavuyeho n'iyo baba bagezeho.

Buri rusengero rugomba kugira gahunda y'icyumweru igaragaza uburyo ruzasengamo, rukagaragaza umupasiteri uzigisha, amakorari azaririmba ndetse n'igitekerezo cyangwa se insanganyamatsiko bagenderaho.

Abanyeshuri cyangwa abandi bantu abo aribo bose, igihe bitabiriye amahugurwa bagomba gushyira umutima hamwe, bagatekereza ku cyabazanye gusa kugira ngo bacyumve neza kandi bagikurikize.

Ahantu hiyubashye cyane cyane mu mashuri ya kaminuza, usanga hari intebe z'ubwoko butangaje . Bityo uzigiyeho na we akumva ko asirimutse.

Ugeze muri kaminuza usanga ibindi bikoresho kandi bitandukanye biba biryoshye kubirebesha amaso yawe, cyane cyane iby'ububumbyi kuko hari abantu bakora ibyo kandi babikora nk'amasomo.

Iyo ugeze mu mijyi usanga buri nzu ifite nimero iyiranga kuko biba bigoye kumenya aho ari ho bitewe n'uko inzu zose ziba zisa, bityo bakurangira nimero, ukaba wamenya aho ariho

Usanga akenshi ibikoresho bya kinyarwanda byaratangiye gukendera, kubera ko ni umuco ugenda ucika buhoro buhoro nyamara ibi byari byo soko y'amafaranga yabo bakoreraga kera ugereranyije n'ubu haje iby'iterambere bituma babyibagirwa.